Mu wanda ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane ku buryo hasigaye hifashishwa imiti ifasha kwica inyamaswa cya se ibyonnyi byo ku bihingwa kugira ngo hongerwe umusaruro muri rusange kandi igihingwa kize gutanga umusaruro ufatika ufatika.

Amafi ni kimwe mu biribwa gikunda kuboneka cyane mu Rwanda, ariko bikaba biboneka hafi hafi y'ibiyaga. Bivuze ngo abaturage baturiye ibiyaga nibo bakunda kubona amafi cyane, ndetse n'abatuririye imigezi mu gihugu.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa abanyarwanda bakunda guhinga cyane, bikaba bivamo ifu yo kurya bikaribwa, bigatekwa cyangwa se bigasheshwamo ifu yifashishwa mu gukora utuwunga ndetse n'ibindi biryo bigiye bitandukanye.

Karoti ziri muri bimwe mu bihingwa bikunda guhingwa cyane inaha, mu gihe zifashishwa nk'ibiribwa, tukazirya mu biryo, izindi zikajyanwa ku isoko zikavamo amafaranga.

Avoka ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa cyane mu Rwanda. Kikaba n'igihingwa gihingwa. Gusa ntabwo kera vuba cyane, ariko iyo keze, gitanga umusaruro ufatika, kandi kikagirira akamaro umubiri, mu mibereho y'Abanyarwanda muri rusange.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibihingwa bihingwa mu Rwanda, harimo ibihingwa ngandurarugo, cyangwa se ibihingwa bihingwa bigamije ko ababihinze babona ibyo kurya bikabatunga. Hakaba n'ibihingwa ngandurabukungu, ibyo bihingwa bikaba ari ibihingwa birimo ikawa ndetse n'icyayi, bihingwa bigashorwa bikajya gutunganywamo ibindi bicuruzwa.

Ibihaza ni kimwe mu bihingwa bisangwa cyane mu Rwanda, kandi ni kimwe mu bihingwa abanyarwanda bakunda ,kuko kigizwe n'intungamubiri zigiye zitandukanye, ziba zikenewe n'umubiri w'umuntu, kugira ngo umuntu abeho neza mu buzima bwiza.

Mu Rwanda abaturage benshi batunzwe no guhinga ndetse no korora, ariko igice kinini kikaba gitunzwe no guhinga. Guhinga bikaba bitanga ibyo kurya, bigatanga amafaranga mu gihe ibihingwa byeze bikajyanwa ku isoko.

Ubuhinzi ni kimwe mu gice kigize kinini kigize imibereho y'Abanyarwanda muri rusange ndetse n'Abanyafurika hafi ya bose muri rusange. Kuko ubuhinzi ni ho dukura ibyo kurya, ni ho dukura ibyo dushora tukabona amafaranga yo gukemura ibibazo tuba.

Ubuhinzi ni kimwe mu gikorwa, gikorwa n'abanyarwanda cyane, kuko benshi batunzwe no guhinga, ndetse no korora. By'umwihariko ibigori ni kimwe mu bihingwa bikunda guhingwa cyane. Aba turage bakaba bagitera bakabibagara bakabitera imiti kuko hari indwara zibifata harimo ibyonnyi.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikunda kuboneka cyane mu Rwanda, bikaba ari nabyo biribwa bikunda kuribwa cyane mu Rwanda, kandi biboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko by'umwihariko bikaba biboneka mu Majyaruguru.

Avoka ni kimwe mu biribwa biryoshya ifunguro, kandi abanyarwanda benshi iyo bagiye kurya ku mafunguro yabo usanga hari ho avoka kuko ituma ibiryo biryoha ikongera iti kandi tuziko igira n'intungamubiri zitandukanye harimo ama vitamine, harimo amavuta n'izindi ntungamubiri zitandukanye zifasha mu mibereho y'umuntu.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byiganje cyane mu Rwanda. Bikunda guhingwa ahantu henshi hatandukanye, haba mu bishanga haba i gasozi, ariko hariho ibihingwa byera cyane, kandi byera ahantu hose.

Ibisheke ni bimwe mu bihingwa bikunda guhingwa cyane mu Rwanda. Bikaba ari ibihingwa bikungahaye ku isukari. Kenshi birahingwa byakwera bigasarurwa, bikajyanwa mu nganda zibitunganya, zikabikoramo isukari.

Nureba neza uzasanga mu Rwanda, umubare munini w'abaturage hafi y'Abanyarwanda bose ,batunzwe n'ubuhinzi ,mu buhinzi dusangamo ibicuruzwa bitandukanye ,harimo ibihingwa byo kurya, hakabamo n'ibihingwa ngandurabukungu, ibihingwa bishorwa ,bikazavamo amafaranga yo kwifashashi mu gukemura ibibazo byo mu ngo.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bumwe mu buhinzi buteza imbere abanyarwanda, kandi butuma babona ibyo barya mu gihe cyose. Kandi buri mu buryo butanga umusaruro uhagije ku baturage babukoze.

Mu rwanda hakunda guhingwa icyayi cyane. Mu gihe icyayi gikunda guhingwa ahantu hakonja cyane mu bice by'igihugu. Cyane cyane i Burengerazuba no mu Majyaruguru. Niho dukunda gusanga icyayi cyane.

Amagi ,ni bimwe ni kimwe mu kiribwa gikenerwa cyane ku mafunguro ya buri munsi, kuko dusangamo intungamubiri zitandukanye harimo:ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'amavitamine mu magi tuyasangamo cyane cyane mu magi mabisi.

Ibigori ni igihingwa gikunda guhingwa cyane mu Rwanda, kikaba kivamo ibyo kurya, kikavamo ifu y'igikoma, kikavamo n'ifu yo gukora ubugari bw'ibigori cyangwa se akawunga.

Ipapayi ni igihingwa, ni igihingwa gikoreshwa mu Rwanda. Gikunda guhingwa cyane hafi y'urugo, kikaba cyeraho imbuto ziribwa kandi zifitiye akamaro Abanyarwanda ndetse n'abantu bose muri rusange. Ziba zikungahaye ku ntungamubiri zirimo vitamine, zikaba zifasha kandi no kongera imirire myiza mu gihugu, mu gihe umuntu azifata ku mafunguro.

Ibitoki ni kimwe mu biribwa bikungahaye ku isukari, kandi biboneka cyane mu Rwanda mu duce tugiye dutandukanye, nko mu bice by'amajyepfo, iburarasirazuba, iburengerazuba...

Kandi mu buhinzi bwo mu Rwanda dusanga mu buhinzi bwa soya, soya kikaba ari igihingwa nacyo cyiganje mu Rwanda, kikaba gihingwa henshi cyane kandi kikaba gitanga umusaruro ufatika, kandi kikaba kinanaribwa n'abaturage cyane mu gihugu cy'u Rwanda.

Igihingwa cy'ibishyimbo mu Rwanda, ni cyo gihingwa cyiganje cyane kurusha ibindi bihingwa byose, kuko ibice byose by'Igihugu usanga byeramo ibishyimbo, kandi kikaba ari ikiribwa kiribwa cyane mu Gihugu ,kuko biragoye kubona Umunyarwanda urya ifunguro ritariho ibishyimbo.

Mu Rwanda iyo bamaze guhinga bagasarura imbuto ibihingwa barabifata bakabihunika, kugeza igihe bizaba ngombwa ko bikenerwa bigiye guterwa cyangwa se bigiye kuribwa.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, kandi ni kimwe mu bihingwa byiganje mu Rwanda bituma imibereho y'abaturage yiyongera, mu buryo bw'imirire bakarya bagahaga, bakagurisha bagasagurira amasoko, bakabona n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni kimwe mu bikorwa bitunze abanyarwanda benshi, kuko umubare munini w'abanyarwanda utunzwe no guhinga, no korora. Bityo, imboga ziri mu gice n'ubundi kigize amafunguro.

Guhinga ni umuco, ni umuco cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, aho imbuto zihingwa, zigaterwa, zikamera, zigahingwa, zigashyirwaho ifumbire, zigasarurwa.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa biranga abanyarwanda, cyane cyane ko umubare munini w'abanyarwanda utunzwe no guhinga, mu byo bahinga aha dusangamo: ibishyimbo, ibishyimbo kikaba ari kimwe mu bihingwa byiganje cyane mu rwanda bihingwa kandi mu ntara zose z'igihugu

Ubuhinzi ni kimwe mu gice kigize abaturage cyane cyane abatuye Afurika, ubwo buhinzi higanjemo ibigori. Ni kimwe mu gihingwa gikomeza kugaruka cyane gifasha abantu mu buzima butandukanye n'imibereho ya buri munsi.

Inkoko ziri muri zimwe mu nyamaswa, cyangwa se mu matungo yororwa mu Rwanda avamo inyama zo kurya, cyangwa se agashorwa, akavamo amafaranga afitiye akamaro ba nyirazo.

Amagi ni kimwe mu mafunguro, agize ibiryo by'abanyarwanda, Kandi amagi ashobora kubikwa mu mashini, bakayaturaga akavamo abana, bitabaye ngombwa ko inkoko iyararira.

Hari amaduka menshi acuruza imiti. Hari acuruza imiti y'amatungo, hari acuruza imiti y'ibimera, kandi yose aba adufitiye akamaro kuko iyo dukeneye imiti ni ho tugenda tukayigura, kugira ngo ibimera byacu bimererwe neza.

Ubworozi bw'inkoko bwateye imbere, aho bafata amagi bakayashyira mu mashini zikayaturaga, bityo utwana tuvuyemo tukororwa mu buryo bugezweho ,tugakura tugatanga umusaruro mu gihe gito.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa dusanga mu Rwanda, abaturage benshi bazitunze zifashishwa kurinda umutekano w'urugo ariko Leta ikabisaba umuntu wese utunze imbwa kuyijyana ku mu veterineri bakayiteza inshinge kugira ngo nirya abantu itazabatera indwara.

Ihene ni imwe mu matungo yororwa mu Rwanda cyane .Ihene zikaba arizo zivamo inyama .Zikaba arizo zivamo amafaranga . Mu gihe nyirayo yashatse kuyishora akabona amafaranga amutunga.

Inyoni ziri muri zimwe mu nyamaswa zitabana n'abantu, kandi ni zimwe mu nyamaswa zikwega ba mukerarugendo, kandi inyoni dukunda kuzisanga cyane muri Afurika, haba muri pariki cyangwa mu bindi bice byose by'igihugu.

Inyoni ziri mu inyamaswa zigize ubwiza nyaburanga bw'igihugu. Ziri mu inyamaswa zikurura ba mukerarugendo mu gihugu bakaza bakazisura mu ma pariki bityo abakerarugendo bakaduha amadevize tukiteza imbere.

Ingurube z'igasozi ni zimwe mu nyamaswa dusanga muri pariki zitandukanye zo mu Rwanda. Zikurura ba mukerarugendo aribo binjiza amadovize mu gihugu, bigafasha igihugu cyacu gutera imbere, ndetse n'abaturage bacyo muri rusange.

Inkura ni imwe mu nyamaswa dusanga muri parike zitandukanye zo mu gihugu, harimo akagera ndetse n'izindi pariki nyinshi zigiye zitandukanye mu gihugu, zikaba ari inyamaswa zikwega ba mukerarugendo bakaza mu gihugu, bakaduha amadovize biciye mu bukerarugendo bityo bigafasha igihugu cyacu gutera imbere.

Isatura imwe mu nyamaswa ziba muri pariki mu Rwanda, tuzisanga mu Kagera, tuzisanga ndetse no mu zindi pariki zitandukanye mu Rwanda, aho ziri mu nyamaswa nyaburanga zinjiza amadovize mu Gihugu mu buryo bw'ubukerarugendo.